Abagore babiri bahagaze, bari kuganira bareba no muri mudasobwa, umwe ufite imisatsi miremire, wirabura, wambaye amadarubindi ndetse n'umupira w'umukara urimo imirongo y'umweru, undi wambaye ikote ndetse n'umupira w'umukara, bari ahasa n'ahabugenewe hacururizwa imyenda.

Icyumba k'ihuriro ry'abantu harimo intebe ku ruhande rw'iburyo hari intebe eshanu no ku ruhande rw'ibumoso hari eshanu, imbere hagati muri zo hari intebe imwe imbere hari ijambo ryanditswe mu ndimi z'amahanga riri mu ibara ry'ubururu munsi hari n'andi magambo yandikishijwe mu ibara ry'umukara.

Abagore babiri bari mu isoko rinini ririmo ibicuruzwa bitandukanye by'ibiribwa, ibitunguru dukunze kwita iby'ibibabi, n'ibindi bitungo by'ubwoko bwa kabiri dukunze kwita iby'ibijumba, harimo n'ibindi biribwa bitandukanye n'inyanya n'ibindi dusanga mu mboga.

Abagore batanu batatu bahagaze n’abandi babiri bicaye. Bari ahasa nk’aho ari mu isoko. Imbere yabo hari intebe yegetse ku gikuta n’igisheke cyegutse ku gikuta cy’imbaho.

Abagabo babiri n'umugore umwe, bari mu isoko ririmo ibiribwa bitandukanye, biri mu bwoko bw'imboga, harimo inyanya, karoti n'ibindi bitandukanye.

Umukobwa wicaye usa nk'uri gucuruza usutse wambaye umupira utukura n'itaburiya y'ibihogo imbere ye hari mudasobwa iruhande rwe hari ibicuruzwa.